Ibipupe ni kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke kuba bakurikirana neza amasomo yabo, ni byiza ko abarimu bigisha mu mashuri y'incuke bagomba kugira ibipupe kugira ngo babashe gukinisha abanyeshuri bityo babashe no kumva neza ibyo bababwira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze kizwi nka nasali, gishishikariza abarimu bagikoramo ko ar'ingenzi kugira ibikoresho bimwe na bimwe bifashisha kugira ngo babashe kurera abo bana baba barimo bigisha. Ni byiza rero ko kugira ibishushanyo birimo nk'ibipupe, ibitente ar'ingenzi kugira abarimu babashe kwigisha neza kandi abana be kurambirwa iryo somo bari guhabwa.

Ibi pupe ni'ingenzi mu mashuri y'incuke kubera ko bibafasha kwiga neza ndetse bakiga bishimye bakabasha gukurikira mwarimu, ni byiza ko abarimu bigisha mu mashuri y'incuke bagomba kuba bafite ibipupe kugira ngo babashe guha abanyeshuri bigisha, dore ko baba bakiri abanyeshuri batoya.

Abakora umwuga w'ubwarimu mu mashuri y'incuke, bashishikarizwa gutoza abanyeshuri kumenya agaciro ko kuririmbira, indirimbo y'igihugu, imbere y'ibendera, ni byiza ko tugomba gutoza abanyeshuri kuririmbira imbere y'ibendera kugira ngo babashe kumenya agaciro igihugu cyacu gifite ndetse babashe no kumenya agaciro k'ibendera.

Mu bigo bitanga uburezi bw'ibanze bizwi nka nasari, habamo ibikoresho byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kubona uburezi bw'ibanze. Twavuga: nk'intebe bicaraho, ibishushanyo bifashisha bari gusobanurirwa amasomo, amakaramu bakoresha bandika, ameza bashyiraho amakayi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kubona ubwo burezi bunogeye.

Mu bigo byigisha abana b'incuke, ni byiza ko habamo ibishushanyo byifashishwa kugira ngo babashe gusobanurira abo bana b'incuke ibyo biga kugira ngo babashe kubifata neza. Ni byiza rero ko tugomba kwifashisha ibishushanyo bitandukanye igihe turirimo kwigisha abana b'incuke kugira ngo babashe gutahana ubumenyi buhambaye ku byo bize uwo munsi.

Ni ingenzi kugira ibikoresho bihagije mu mashuri abanza kugira ngo abanyeshuri babashe guhabwa uburezi bw'ibanze. Twavuga: nk'amakereyo yifashishwa bari gushushanya, ibisigisho bifashisha bari gutaka ibishushanyo bibafasha kwiga neza ndetse n'amakayi bakoresha bari kwiga.

N'ingenzi ko abanyeshuri bagomba kugira ibikoresho byifashishwa igihe bari kwiga imibare, nk'ibikoresho byifashishwa bari guca imirongo bizwi nk'amarate, ni byiza rero ko buri munyeshuri wese yagomba kuba afite ibikoresho bisabwa igihe ari kwiga kugira ngo abashe gukurikira mwarimu ndetse abashe no kubona ubumenyi bw'ibanze mu buryo bumworoheye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze gisobanura ko ari byiza ko ibigo bigomba kugira ibibuga abanyeshuri bakoresha igihe bari gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza rero ko ibigo byose bitanga uburezi ari byiza ko bigomba kugira ibibuga abanyeshuri bidagaduriraho nyuma y'uko amasomo arangiye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza babashe no kugororera imibiri yabo.

Mu bigo bitanga serivisi z'uburezi, icyumba abanyeshuri baba barimo kizwi nk'ishuri. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umunyeshuri babashe guhabwa ubumenyi. Twavuga nk'intebe aba yicayeho igihe ari gukurikira, ikayi yandikamo, ikaramu akoresha yandika ndetse n'ikibaho bandikaho kugira ngo babashe kubibona neza. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije mu mashuri kugira ngo abanyeshuri babashe kugira ubumenyi bwiza.

Mu bigo bitanga serivise zigendanye n'uburezi icyumba abanyeshuri bigiramo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi bw'ibanze, twavuga nk'intebe umunyeshuri aba yicayeho, ikibaho gikoreshwa igihe ari kwiga, amakaramu bakoresha bandika ndetse n'ibyo bandikiramo bizwi nk'amakaye. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije igihe turi kugana ku mashuri kugira ngo tubashe gutahana ubumenyi ndetse n'uburezi bwiza.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bashishikarizwa kwigisha abanyeshuri gusoma ndetse bakanababwira ibyiza byo gusoma inkuru zigiye zitandukanye. Ni byiza ko ari abanyeshuri rero bacu tugomba kubigisha ibyiza byo gusoma, kugira ngo ubumenyi bwabo bubashe gukura ndetse babashe no kumenya uburyo basoma neza batanategwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, gishishikariza ibigo ko ari byiza kugira isomero, kugira ngo abanyeshuri babashe gukuza ubumenyi bwabo mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ingenzi rero ko ibigo byose bigomba kugira isomero kugira ngo abanyeshuri icyo bashatse cyose babashe kukibonera mu isomero.

Ni byiza ko tugomba gutoza abana bacu gusoma inkuru zigiye zitandukanye kugira ngo bakuze ubumenyi bwabo bwo gutekereza ndetse n'ubumenyi bwabo bwo kuvuga neza badategwa, ni ingenzi ko tugomba gushishikariza abana bacu gusoma ,kugira babashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye, maze babashe kugira ubwenge buhambaye.

Mu bigo bitanga uburezi bw'ibanze ni byiza ko mu cyumba bigiramo hagomba kuba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubumenyi buhambaye. Twavuga nk'ibyo bifashisha abarimo babara imibare kugira bashe kumenya uko bagomba kongeraho, gukuramo ndetse no kugabanya. Ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe gusobanurira abanyeshuri neza.

Ni byiza ko mu mashuri abanza habonekayo ibibuga bakiniraraho imipira ndetse bakaba bakoreraho n'imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara ziterwa no kudakora siporo, ni byiza ko rero bagomba kugira ibibuga byinshi bitandukanye abanyeshuri bifashisha bityo ubuzima bwabo bukagenda neza bakora siporo mu buryo burambuye ndetse no mu buryo buboroheye.

Mu mashuri yisumbuye azwi nka segondeiri ni byiza ko umuyobozi wabo agomba kubashyira hamwe kugira abashe kubasobanurira byinshi bitandukanye, abashe no kubibutsa amategeko agenga ikigo ni byiza rero ko tugomba gufata abanyeshuri bacu tukabashyira hamwe, kugira ngo tubibutse byinshi bitandukanye bigomba kubaranga nk'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye basobanura ko ari ingenzi gushyirwa hamwe bakaganirizwa ibyerekeranye n'ibyo biga, ni byiza rero ko abayobozi bakora mu bigendanye n'uburezi bagomba kumanuka bakajya mu banyeshuri kugira ngo babashe kumenya ibibazo bitandukanye baba bafite ndetse babashe no kuba babibonera umuti.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza ababifite mu nshingano kugana ibigo byose kugira ngo babashe kureba uburyo batunze abanyeshuri bigisha, ni byiza ko bajya gusura ibikoni batekeramo, kugira ngo babashe kureba niba babaha indyo yuzuye cyangwa se indyo ifite isuku, ni byiza rero ko dukomeza gusigasira ubuzima bw'abanyeshuri bacu, kugira ngo tubarinde indwara bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Igihe abayeshuri bakorewe inama, ni byiza ko haboneka ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abanyeshuri baze kumva inama neza. Twavuga nk'intebe abanyeshuri bicaraho, amakayi bakoresha bandika iby'ingenzi umwarimu aba yababwiye ndetse n'imakaramu bakoresha barimo bandika. Ni byiza ko tugomba gukomeza guhugura abanyeshuri bacu kugira ngo bazavemo abanyeshuri beza kandi bafite ubwenge n'ubumenyi buhambaye.

Abanyeshuri bavuga ko ari ingenzi gushyirwa hamwe kugira ngo bakomeze gusobanurirwa amategeko abagenga ndetse bakomeze gusobanurirwa n'amategeko agenga ikigo. Ni byiza ko tugomba gukurikiza amategeko umuyobozi aba yatubwiye kugira ngo tubashe kuba abanyeshuri bazima ndetse tubashe no kuba abanyeshuri beza, dutahane uburezi bw'ibanze ndetse dutahane n'umuco uzadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'uburezi, icyumba abanyeshuri baba barimo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umunyeshuri aze kubasha gukurikira neza. Twavuga nk'intebe abanyeshuri baba bicayeho, ameza bandikiraho, amakayi baba bafite bandikiramo ndetse n'amakaramu bakoresha bandika n'ikibaho cyifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kubona ibyavuzwe. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije mu mashuri, kugira ngo tubashe gukuza ubumenyi bw'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza bakenera ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kwitwa abanyeshuri, twavuga nk'amakaye bakoresha bandika, amakarita abaranga; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bituranga kugira ngo tubashe kuba abanyeshuri bazima, bityo tubashe no gutahana uburezi ndetse n'ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza basobanura ko ari byiza gukora ubukangurambaga mu banyeshuri bakiri mu mashuri yo hasi, babashishikariza kumva ibyiza byo kuza kwiga muri kaminuza. Ni byiza ko tugomba gufasha barumuna bacu bari mu mashuri yo hasi, kumenya agaciro ko kwiga kaminuza ndetse bakabasha no kuzibeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakenera ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kumva amasomo yabo neza, twavuga nka mashini bahabwa zibafasha gushaka ubumenyi butandukanye ku ikoranabuhanga kugira abashe gusobanukirwa byimbitse ibyo bari kwiga, telefoni zibafasha gushakashaka amakuru agiye atandukanye; ni byiza ko tugomba kugira ikoranabuhanga nk'abanyeshuri twiga muri kaminuza kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza isomo umwarimu aba yaduhaye.

Mu mashuri ya kaminuza haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa uburezi bw'ibanze, twavuga nk'intebe umunyeshuri aba yicayeho, ameza ashyirwaho ikayi yo kwandikamo, ikaramu yo kwandikisha ndetse n'ibibaho byifashishwa igihe barimo basobanura amasomo menshi agiye atandukanye.

Ibigo by'amashuri ya kaminuza haba hari ibintu byinshi bitandukanye bifasha abanyeshuri kugira ubuzima bwiza, twavuga nk'ubusitani baruhukiramo igihe bavuye mu mashuri bananiwe, intebe bicaraho igihe bari kwiga ndetse n'ubukarabiro bakoresha igihe bavuye mu bwiherero; ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu.

Mu mashuri ya kaminuza hakenerwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo abanyeshuri babashe guhabwa ubumenyi bugiye butandukanye, ni byiza ko hagomba kuba hari intebe abanyeshuri bicaraho, abanyeshuri bakaba bafite amakaye bandikamo, amakaramu bakoresha bandika, mashini bifashisha igihe bari gukora ubushakashatsi butandukanye kuri iryo somo bari guhabwa.

Ku mashuri ya kaminuza haba hari ubusitani bufasha abanyeshuri kuruhuka neza igihe basoje amasomo yabo, ni byiza ko ibigo byose bya kaminuza bigomba kugira ubu busitani kugira ngo abanyeshuri igihe bamaze kwiga bananiwe babashe kubona aho baruhukira, ni ingenzi ko tugomba gusigasira ubuzima bw'abanyeshuri kugira ngo babashe kwiga neza ndetse babashe no gutahana ubumenyi bwiza buhambaye buzabafasha mu buzima bwabo.

Ibumba ni ibyondo bivamo ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi. Twavuga ko havamo ibyungo dukoresha duteka, hakavamo n'amavase bashyiramo indabo. Ni byiza ko tugomba gukuza uno mwuga wo kubumba kugira ngo tubashe kubona amafaranga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo twikemurire ibibazo bigiye bitandukanye, bikenerwa n'amafaranga.

Ibumba rivamo ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, twavuga nk'ibirik ijyamo igikoma, tukavuga nk'ibyungo bitekwamo, amavaze ajyamo indabo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi; ni byiza ko tugomba gukoresha ibumba kugira ngo tubashe kugira ibikoresho biramye kandi bikomeye.

Mu mashuri ya kaminuza mu byumba abanyeshuri bigiramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi, twavuga nk'intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'ibibaho byifashishwa barimo bandikaho n'amakaramu bifashisha barimo bandika ndetse n'ingwa cyangwa se kereyo wifashisha bari kwandika ku kibaho, ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugirango ngo tubashe gutanga uburezi buboneye.

Abanyeshuri ba kaminuza nta munsi bishima nk'uwo baba bahaweho impamyabumenyi, ni byiza rero ko tugomba kubashishikariza kwiga bashyizeho umwete, kugira ngo buri munyeshuri wese wiga muri kaminuza abashe kwambara ikanzu ndetse abashe no guhabwa impamyabumenyi, kuko arirwo rugendo ruba rugiye kumufasha mu buzima bwiwe kugira abashe kubona akazi no kubona amafaranga ubuzima bwe bubashe kugenda neza.

Mu mashuri ya kaminuza haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe guhabwa ubumenyi, twavuga nk'intebe bicaraho, ameza bashyiraho amakaye yo kwandikamo ndetse n'ikibaho cyifashishwa igihe mwarimu ari kwandika. Ni byiza ko amashuri ya kaminuza agomba kugira ibikoresho bihagije kuko baba barimo bategura ubuzima bw'abanyeshuri bw'ejo hazaza, ku buryo ubuzima bwabo bugomba kugenda neza kuko baba barahawe ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri biga muri kaminuza nta munsi bishimira nk'igihe baba bahawe impamyabumenyi. Ni byiza ko tugomba gushishikariza bagenzi bacu bari mu mashuri yo hasi, kwiga neza bumva ko bagomba kwiga bakagera muri kaminuza, kugira ngo ibyiza tuba twagezeho nabo bagombe kubigeraho.

Mu mashuri ya kaminuza haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umunyeshuri abashe guhabwa ubumenyi, twavuga nk'ikibaho cyandikwaho, intebe mwarimu yicaraho ndetse n'iyo abanyeshuri bicaraho; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe guhereza abanyeshuri bacu ubumenyi bityo bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bakenera ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe guhabwa uburezi bwiza, twavuga nk'intebe bicaraho, amakaye bakoresha bandikamo, amakaramu bakoresha bandika, ikoranabuhanga rizwi nka telefoni bakoresha bifashisha gushaka amakuru atandukanye ku masomo biga ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugirango ngo tubashe kwakira ubumenyi abarimu baduha.